Itsinda ry'abanyeshuri bari mu ishuri. Biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano nziza cyane zigizwe n'ishati y'umweru n'ijipo cyangwa se ipantaro y'ubururu. Bari mu masomo yabo, bakurikiye amasomo, ari na ko basubiza ibibazo mwarimu ababaza.

Itsinda ry'abanyeshuri bo mu kigero cy'ingimbi biga mu ishuri ryisumbuye, bari mu ishuri barakurikiye, mwarimu ari imbere ku kibaho ari kubaha amasomo, na bo bagakurikira kugira ngo batahane ubumenyi.

Ishuri ry'inshuke, ryigwamo n'abana batoya b'incuke, bari munsi y'imyaka itanu, riragaragazwa n'udutebe twiza dutatse amabara kandi dutoya tw'abana batoya, twiza ndetse twinshi.

Itsinda ry'abanyeshuri bari hamwe, bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga, bari gufashanya kumva no gusobanukirwa amasomo n'ibyo bari kwiga, bifashishije ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Itsinda ry'abantu babiri bari muri laboratwari bari gukoresha icyuma cyo muri laboratwari cyitwa mikorosikopi bari gusuzuma. Bambaye udupfukantoki bafite n'ibindi bikoresho ku ruhande byo muri laboratwari.

Itsinda ry'abanyeshuri bambaye impuzankano y'ishuri biga umwuga w'ubukanishi bahuriye hamwe, bari gufatanya kwiga gukanika iyi modoka, ari nako bahanahana amakuru ku bijyanye n'umwuga w'ubukanishi.

Itsinda ry'abanyeshuri bambaye impuzankano z'ishuri, bari mu bikoresho by'ikoranabuhanga, aho bari kwimenyereza gukora uyu mwuga, bari mu cyumba cyiza cyane gisa neza, gifite isuku, bibafasha kwiga neza, kandi bakabasha kunguka ubumenyi.

Icyumba kigari kirimo intebe zo kwicaraho nziza cyane zisa neza, ndetse n'ameza. Ni icyumba rero gitangirwamo serivisi yo gucuruza imitako myinshi itandukanye.

Imbuga nziza cyane ikorerwaho imirimo myinshi itandukanye, ni imbuga iriho aho abana bashobora kwidagadurira, ni imbuga iriho aho abakinnyi bakinira, iriho ibiti byiza cyane bituma kuri iyi mbuga haba amahumbezi.

Itsinda ry'abantu biganjemo cyane cyane abanyeshuri bimenyereza umwuga. Bari ahakorerwa imirimo y'amaboko y'ububaji bakoresheje imashini. Bari mu kazi rero ka buri munsi, aho bari kubaza ndetse banungurana ubumenyi.

Itsinda ry'abaganga bari mu kazi kabo, bari mu kazi ko gutegura imiti yo guha abarwayi babo, impande yabo hari ibikoresho bagenda bifashisha mu kuvura, nk'inshinge, umugozi wa serumu, ibitanda baryamishaho abarwayi n'ibindi.

Icyumba kirimo ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gufata amajwi, amashusho ndetse abanyeshuri bashobora kubasha kubyigiraho ibintu by'ikoranabuhanga, bakazabikoresha mu buzima bwa buri munsi.

Itsinda ry'abanyeshuri babiri bari muri laboratwari, bari gusoma ku kirango kiri kuri aya macupa y'imiti bareba imiti igihe izakoresherezwa, nubuziranenge bwayo.

Itsinda ry'abacuranzi bakoresha ibyuma bya muzika bigezweho, bari kumwe n'ubafasha gukoresha ibyo byuma. Bakurikiye amabwiriza ari kubaha, kugira ngo baze gukora neza bakesha ibirori.